Umuhanda mwiza wa kaburimbo umeze neza, inzu nziza yegereye kuri kaburimbo yubatswe neza imeze neza, ifitemo n'ibihombo mu mabati aijyana amazi mu bigega, iteye ku ruhande ubwatsi bwa pasuparume n'izindi ndabo zigiye zitandukanye.

Abanyeshuri biga ibijyanye no gucuranga no gukoma ingoma. Iyo bari kumwe na mwarimu wabo ari kubigisha ukuntu bakoma ingoma ,ajya arababwira ukuntu bagomba gukoma, bakagendana n'indirimbo bari kuririmba.

Abanyeshuri beza bambaye neza iniforome nziza y'ubururu bicaye ku ntebe mu cyumba bakoreramo, bakora inkweto z'abagabo, iyo bari kuzikora baba bafite ibikoresho byabugenewe bibafasha gukora neza inkweto.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ni byiza cyane, dukoresha turi gufotora abantu cyangwa ibintu bigiye bitandukanye, bityo bikadufasha kubona amafoto y'ibintu cyangwa abantu dushaka kubona byihuse bitabanjije kutugora.

Amashuri ameze neza higiramo abanyeshuri ,biga ibijyanye no gukora imihanda bigezweho bambaye inifomo bari gupima umuhanda, ikibuga kimeze neza kirimo ubucaca bwiza, mu bigaragara ibyo biga bibari mu maraso kandi ibyo bazakora bazabikora neza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ni byiza cyane ku iterambere ry'igihugu cyacu, nk'imashini tuzikoreshaga turi kwandika ibintu runaka cyangwa turi kubika amadokima yacu, hari n''ibindi byuma tugira dukoresha turi ugucuranga indirimbo mu rusengero.

Ishuri ryiza rimeze neza, intebe nziza, aho abahungu n'abakobwa bicarana mu ishuri bagakurikira ibyo mwarimu ari kubabwira, bakiga neza, bagakurikira amasomo, bityo nyuma yo kurangiza amashuri, bikaba byabaviramo kuba bamwe abaganga abandi bakabona akazi kagiye gatandukanye.

Abanyeshuri beza bambaye neza. Bameze neza abanyeshuri b'abakobwa biga gusuka. Iyo bamaze kubimenya barataha bakajya gukorera hanze. Bakajya babona amafaranga akabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri beza bameze neza, basa neza bambaye uniform nziza. Bari hamwe n'abayobozi babo n'abarimu babo. Bagiye gusura ku kibuga twitiraho izina ingagi. Barishimye kubera ukuntu bahagezeze bwa mbere byabanejeje gusa.

Ishuri ryiza, rimeze neza, ryubatswe neza, harimo na sima, rifite ikibaho cyiza, ryigirwamo kudoda, abanyeshuri bigiramo kudoda baraza bakiga, buri munyeshuri akahava amenye kudoda neza.

Ishuri ryiza, rimeze neza, risa neza, riteye amarangi meza, rifite intebe nziza n'ameza meza, ryigirwagamo n'abana b'incuke. Ni ryiza rimeze neza, abanyeshuri baje kuryigiramo. Buri munyeshuri yicara ku ntebe ye mwarimu akamuha ikayi ye n'ikaramu aba yaramubikiye.

Ishuri ryiza rimeze neza riteye amarangi meza. Abanyeshuri beza bicaye ku ntebe nziza. Abanyeshuri iyo bari kwiga baba bakurikiye mwarimu bamuteze amatwi, bakumva ibyo abasobanurira bagakurikirana n'iby'abigisha ,kugira ngo bizabafashe mu buzima bwo hanze bararangije.

Abanyeshuri beza, bambaye neza, bameze neza, ishuri ryiza rimeze neza bakoreramo paratike, biga ububaji. Iyo bagiye kubaza baba bambaye iniforume zabugenewe, kugira ngo bakurikirane amasomo yabo neza.

Abanyeshuri bo mu kigo cya sogonderi bahagararanye na mwarimu wabo, bifotoreje imbere y'shuri ryabo, bafashe ibinyamakuru.

Abanyeshuri biga ubwubatsi ,bambaye neza ,bameze neza. Bari hamwe na mwarimu wabo. Bari gukora imyitozo yo kubaka. Iyo bari kubaka bagirana inama zo ukuntu bagomba gupima inyubako yabo.

Ishuri ryiza rimeze neza, ryubatswe neza, rifite ikibaho kiza, risize amarangi meza, n'madirishya meza ryigirwamo n'abanyeshuri bambaye neza, bameze neza, abanyeshuri iyo bicaye bicara bari kurebana bakurikiye mwarimu, mwarimu akababaza ibibazo umwe muribo agahaguruka akamusubiza kandi neza.

Umunyeshuri mwiza umeze neza , wambaye neza w'umuhungu wiga ibijyanye no gushushanya , yashushanyije ikibuga cyo gukinira mumupira w'amaguru n'abakinnyi bari kuwukina.

Inzu nziza imeze neza iteye amarangi, abasore batandukanye bakora imodoka zapfuye, imodoka iyo zapfuye barabazanira bakazikora zigasubira bushyashya, bakongera bakazitwara zimeze neza ari nta kibazo zifite.

Umunyeshuri ukunze gukoresha icuma c'ikoranabuhanga, bimufasha kwiyungura ubumenyi buhagije no kuba yamenya byinshi bijanye n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri beza, bameze neza, iyo bari kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bose bagomba kuba bakurikiye mwarimu kugira ngo bibafashe kumenya byinshi ku bijyanye n'ikoranabuhanga, bityo nibagera hanze barangije kwiga bazabone icyo gukora vuba, kandi bikabaha umusaruro bidatinze.